umucuruzi ucuruza ibintu bitandukanye birimo ama likeri na za bier ninzoga za burarirwa akoresha uburyo bwa momo peyi amazina yumucuruzi ni Aluvini.

Abagabo babiri bishimye bigaragara ko bakorera MTN, sosiyete ikora itumanaho mugihugu cy'Urwanda, n'ibindi bitandukanye.

Umusore bigaragara ko ari ahantu nko mu isoko bacuruza inyanya agiye kwishyura akoresheje uburyo bw'ikarita ya banki.

umugabo ufite ikarito muntoki wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu y'ikoboyi.